Abantu benshi bigaragara ko bafite aho bahuriye nubuzima bakorana na arabisi bitewe n'impuzashusho bambaye aho bagenda bafasha abantu babagira inama ku buzima bwabo bwa buri munsi kugira barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Abamama ndetse n'abasore harimo abagabo barimo gukora akazi ko gutora imifuka bayirunda hamwe, hamwe hamwe kugira ngo babashe kuba bagira icyo bakorera kuko aka ni akazi gatunze abantu cyane kugira babe babaho.

Abantu bigaragara ko bakoze mu mahugurwa agiye atandukanye, aho bigaragara ko bita ku burwayi bw'abantu bagiye batandukanye kandi aha akaba ari aho bakorera akazi kabo, bahagaze bambaye n'imyenda y'akazi y'umweru ariko hivanzemo n'abandi batayambaye.

Umukobwa mukuru uri kumwe n'abana bigaragara ko ashobora kuba ari umubyeyi arimo kuvoma amazi kuri robine, aho bigaragara ko ari amazi arimo kuvoma kugira aze kuyifashisha mu bintu bigiye bitandukanye, ni byiza rero kugira ivomero ry'amazi meza kuko amazi ni ingenzi.

Abantu bicaye muri sale barimo guhabwa amahugurwa agiye atandukanye, harimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe, bateze amatwi ndetse ku byo barimo kubabwira aho bari kubaha inama zijyanye n'ubuzima bwabo.

Umubyeyi wajyanye umwana kwa muganga, aho barimo kumusuzuma bagira ngo ngo barebe uburwayi afite babonereho kumuha umuti cyangwa se bakaba barimo barasuzuma uburyo ahagaze. Rero umwana ni ngombwa ko agira igihe ajyanirwa kwa muganga kugira bakurikirane ubuzima bwe uko burimo buragenda.

Umukobwa urimo gukaraba amazi ubona ko arikuva muri rubine ari menshi cyane, aho ari byiza rero kugira isuku umubiri arimo arakaraba ibiganza kugira abe yabigirira isuku.

Ahantu havurirwa hariyo santire desante ya Mayange kandi bigaragara ko abakozi baho babyishimiye kuko basuwe n'umuntu bigaragara ko atari umwirabura arimo arabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwabo.

Abana bari mu kiyaga cyangwa mu mugezi barimo koga, ubona ko bishimiye igikorwa bari gukora ariko si byiza ko abana baza ku kiyaga gutya boga bonyine, bashobora guhuriramo n'udukoko twaho tukaba twabarya ndetse bakaba banamira aya mazi yanduye bikabatera uburwayi.

Abantu bicaye, barimo kuganira ariko imbere hari ameza, nanone kandi bigaragara ko hari icyo kunywa bamaze gufata, kandi bafite icyo bari kuganiraho.

Umwana uri gukaraba kuri robine amazi meza, bigaragara ko ari iriba buri umwe wese yemerewe kuza kuvomaho ndetse akaba yanywaho n'amazi nta kibazo.

Umwana wajyanywe kwa muganga n'umubyeyi bigaragara ko ari kumwitaho afite uburwayi bukomeye aho abaganga bari kumwitaho ku kuboko ndetse binagaragara ko yambitswe ibintu bigiye bitandukanye bimufasha guhumeka mbese ari kwitabwaho ngo barebe ko yamera neza.

Umubyeyi arimo kuvoma mu iriba n'injerekani, iruhande rwe hari igare bigaragara ko ari iryo atwaramo amajerekani. Kuko aya mazi rero na aba afite ubuziranenge yenda ntiyagakoreshejwe mu kuyanywa ndetse n'ibindi ahubwo yakoreshwa nko kuhira imyaka.

Umuntu bigaragara ko akora kwa muganga, yambaye agapfukamunwa yitwikiriye mu mutwe, bigaragara ko ari ahantu bavurira abarwayi cyangwa se muri raburatwari aho bafatira ibizamini.

Abagabo bivanze n'abagore bambaye impuzashusho y'umuhondo, aho barimo kubakira akarima k'igikona umuturage, na ho ari ingenzi cyane kubakira ababa batishoboye cyangwa bashaje cyangwa se bagakora igikorwa runaka cyo kubaka uturima tw'igikoni kugira ngo, bajye babona aho basoroma imboga.

Umwana uri kumwe na mama we bajyanye gushaka ibimera kugira ngo babikoreshe nk'umuti, aho ari ingenzi cyane kuba bajya bakoresha imiti iri hano.

Ububiko bwinshinge aho bigaragara ko ari inshinge zigera muri esheshatu zikoreshwa mu buryo bw'butumwa zibikwa aka kukaza kwangirika.

Umugabo urimo guha umwana umuti bigaragara ko umubyeyi wajyanye umwana kwa muganga agira, yakomeza kujya.

Abantu benshi bateraniye ahantu bigaragara ko ari muri sale bari mu mahugurwa runaka cyangwa bar biganjemo abagabo n'abagore bakuze.

Umuntu w'igitsina gore uri kwa muganga, bigaragara ko ari kwitabwaho n'abaganga babiri, na ho we yicaye ku gitanda ateze ukuboko, barimo barapima ngo barebe ikibazo gufite, ibi biragaragara ko ari kwa muganga.

Ahantu hari ivomero rusange aho hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye, barimo gushaka amazi bakoresha amajerekani, amasafuriya n'amabase; bigaragara ko mbese badafite ikintu cyihariye bagakoresheje barimo kuvoma.

Abamama ndetse n'umukobwa bari ku mugezi, bafite ibijerekani byinshi barimo kuvoma amazi, bigaragara ko bategereje ko umwe yuzuza, undi akagenda akurikira gutyo.

Umwana ufite ikintu ariko za runaka, aho ari gukoresha amazi meza kugira ngo abe yagikoresha gisa neza. Ni byiza kugira isuku mu gihe amazi ahari rero buri wese aba afite uburenganzira bwo gukora isuku, ku bintu byose agiye gukoraho cyangwa agiye gukoresha.

Abana bari gukaraba bigaragara ko hari umuntu mukuru urimo kubakarabya, bose bateze ibiganza bagira ngo karabe, bari ahantu runaka hegereye uruzitiro kandi barishimye cyane.

Umuntu wambaye ga aho afashe urwembe arimo arakora ahantu runaka mu rwego rwo kwirinda ko aho hantu hakwangirika, arimo arahakora neza bigaragara ko hafite ikibazo kibura.

Umuntu urimo gukaraba yifashishije isabune, aho arimo arakora isuku y'intoki ze kuko ni ingenzi cyane mu gikorwa ugiye gukora cyane cyane nk'umubyeyi ugiye konsa umwana ni ngombwa ko akaraba intoki kugira ngo naza gukora ku ibere ritaza gutera uburwayi umwana mu gihe yaba afite imyanda mu kiganza.

Abantu benshi cyane bigaragara ko bafite icyo bahuriyeho, barimo kuganira bari mu nyubako nini cyane, nini ubona ko ari nini kandi buri umwe wese afite ubushobozi bwo kuba yakumva ibiganiro ari guhabwa.

Abantu bigaragara ko bakora kwa muganga bambaye impuzashushoigiye itandukanye hari abambaye umwe n'abambaye ubururu bigaragara ko bari ku kigo nderabuzima runaka cyangwa se ahantu havurirwa abarwayi.

Abantu bicaye ahantu runaka, bigaragara ko bafite ikintu bari kuganiraho cyabahurije aho ngaho, bafite umuntu imbere urimo arabaganiriza ndetse bamwe muri bo bafite amazi, bicaye ku ntebe n'ameza, imbere yabo hariho ibitambaro by'umweru n'ubururu.

Umugabo uri kwereka umubyeyi w'umugore abana babiri umuhungu n'umukobwa. Umugabo akaba yambaye isarubeti y'ubururu, afite n'ikaramu.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ingofero ndetse n'agapfukamunwa, ari kumwe n'umwana ari kumukorera injerekani ndetse nundi mugore w'umuzungu.

Umukozi wo kwa muganga wambaye agapfukamunwa ari mu cyumba runaka bigaragara ko hakorerwamo isuzuma rigiye ritandukanye aho buri murwayi wese afite ubushobozi bwo kugora aho akemirwa bitewe n'uburwayi afite.

Bicaye hamwe bafite amafomu barimo kuzuza, aho bafite n'amakayi amwe akoreshwa kwa muganga buzuzamo ibyo basoma amafishi y'abarwayi mu buryo bwiza aho ibi bifasha kuba bamenya umurwayi wivuje ndetse n'indwara yivuje.

Umukecuru uri kumwe n'abana bagiye batandukanye bigaragara ko bafite ikintu bahanze amaso na none biragaragara ko bafite ikintu batekereje bari buhabwe.

Umugore wishimye, ubona ko afite ibintu bimushimishije, bitewe n'amarangamutima yagize cyangwa se bitewe n'ubwonko bwe burimo kumukoresha ibi ngibi byose, aho kugira ngo umuntu aseke bituruka byose mu bwonko, rero ni kimwe mu bimutera kuba aseka uku nguku.

Imodoka ya mento helifu mobayiro kirinike aho ishinzwe uburwayi bwo mu mutwe, aho bigaragara ko ari ahantu runaka, yari yagiye gutanga ubufasha aho barimo bavura abantu bagiye batandukanye, kandi buri umwe afite umuganiriza ku bijyanye na gahunda bajemo.

Abantu bicaye ahantu muri sale bari mu kiganiro, aho umumama ari we ufashe ijambo arimo kuvuga, aho bigaragara ko afite ubwisanzure mu kuvuga ibyo ashaka kugira babashe kumwumva.

Umubyeyi wicaye ahantu runaka arimo arareba, ariko bigaragara ko atameze neza ijana ku ijana, aho na none ubwonko bwe ari bwo burimo kumutegeka ikintu akora runaka.

Igitsina gore kizirikiwe ku giti, kizirikishijwe umunyururu, yicaye ku karago ari ahantu hari ibiti akaba aziritswe mu kagoma.

Umugabo wicaye ufite umusatsi mwinshi bigaragara ko agira afite ikibazo cyo mu mutwe bitewe n'ibintu yafashe, afashe ibipine umusatsi umeze nabi mbese afite ibibazo byihariye mu mutwe.

Abantu barimo gukoma amashyi bigaragara ko bishimye bitewe n'icyo bari kureba aho ubwonko bufasha umuntu kugaragaza ibyishimo, rero aba bantu bishimiye ibintu barimo kureba.

Umuntu urimo guseka, bigaragara ko yishimye cyane, ufite ikintu yishimiye, bigaragara ko yambaye na tisheti y'umuhondo.

Abantu barimo barigishwa ku bintu bitandukanye, aho hari idarapo ry'Uburundi ndetse n'irya Amerika, aho bigaragara ko bari kubigisha mu bijyanye n'ubuzima ndetse hari ababyeyi ni bo bahiganye.

Umwana wicaye mu ishuri bigaragara ko arimo kurya biswi ndetse yambaye na unifomu yo mu ishuri aho bigaragara ko yishimye bitewe n'umuntu urimo kumureba.

Umugore urimo araganiriza abantu ariko bigaragara ko atishimye bitewe n'uburyo arimo kuvuga kuko uburyo agaragara mu bintu avuga ubona ko atishimye asa n'urimo gutongana.

Abagabo ndetse bivaze n'abagore bahagaze bishimiye cyane, bitewe nuko bahagaze bishimye bitewe n'ubwoko bwabo, aho bigaragara ko bakora kwa muganga.

Umuntu wicaye ku ntebe ari kumwe n'umuntu urimo aramwandikira ibintu bigiye bitandukanye, hari n'icupa ry'amazi bigaragara ko bafite ibintu bari kuzuza, hari ameza ariho umwenda w'umuhondo.

Umuntu ugaragara ko akuze ariko arimo kuvubura amarira mu maso, bigaraga arimo kurira, rero ibi bintu n'ibibaho ku muntu mukuru bitewe n'imikorere y'ubwonko, usanga ubwoko buravubura amarira, akarira kandi akuze.

Umuntu wigunze ariko afite turi kumwitaho, afite ikibazo cyo mu bwonko wikunze ariko turi kumwitaho amuganiriza, kuganiriza umuntu afite ibibazo nk'ibyo bimufasha koroherwa uburwayi bwe.

Abantu bafashe igipapuro kinini bigaragara ko bafite ikintu bari kuvugaho cyangwa barimo kwambutsa, biganjemo urabona ko ari nta musaza ubarimo benshi ni urubyiruko.

Icyumba cyo kwa muganga, kivurirwamo amenyo ku bantu bagiye batandukanye, aho dusanga ko harimo imashini nyinshi zifasha mu buvuzi bw'amenyo.

Umuntu urimo kwivuza mu menyo akaba avurwa na muganga w'amenyo ubizi neza, aho ari byiza ko buri bitaro bigira umuntu uzwiho kuvura ikintu runaka kugira umurwayi nahagera abone umufasha.

Umurwayi urimo aravurwa mu kanwa harebwa ko akira, bigaragara ko arwaye indwara zo mu kanwa cyangwa se amenyo.

Hano RBC yasuye bigaragara ko hari abantu barimo barahabwa serivise zigiye zitandukanye, aho bavuga ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ibintu byanditswe aho ngaho kandi ni byiza cyane.

Ahantu kwa muganga harimo icyumba bakoresha bavura abantu amenyo mu buryo bugiye butandukanye, aho hari ibitanda bicaraho bareba mu menyo ndetse n'ibyuma bigenda bibafasha muri urwo rwego.

Kwa muganga aho bavura uburwayi bw'amenyo, aho barimo barareba umurwayi iryinyo rye rifite ikibazo bareba iryarisimbura, hano rero bashobora gusimbuza amenyo kandi umuntu ntagire ikibazo kindi.

Umugabo ukuze, ufite imashini nanone ari kumwe n'umubyeyi w'umugore, aho arimo kumwitaho mu buryo bugiye butandukanye.

Umuganga uri kumwe n'umumama bigaragara ko arimo aramuhumuriza ku bintu runaka, na none bishimiye ibyo barimo barakora bigiye bitandukanye.

Umusaza barimo utwara ku kagare ugaragara ko yishimye cyane, aho bigaragara na none ko ashaje kandi barimo kumwitaho, rero ni byiza ku muntu ukuze agomba kwitabwaho kugira ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Umugore ukuze wakita umukecuru, urimo akoreshwa siporo mu kaboko kugira agorore imitsi y'akaboko kandi yirinde ko ingingo ze ziza gusaza hakiri kare, izi siporo zimufasha kuba yahorana imbaraga nubwo ashaje.

Umugore urimo gukora siporo, bigaragara ko arimo kunanura amaguru, ubona ko yishimiye siporo, ni byiza cyane ko umuntu akora siporo kuko ifasha ibintu bigiye bitandukanye mu mubiri, kuko ituma habaho ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma abasirikare b'umubiri bakora neza.

Abantu bahagaze barimo gutanga utuntu tugiye dutandukanye, ku bantu bafite ubumuga, aho hari tuwarete aho bazajya bituma, imbago zifasha abantu bafite ubumuga.

Abantu bishimye cyane aho hari ubusaza ndetse n'abantu batoya cyane, aho bigaragara ko bitabwaho n'abato kugira babeho ubuzima bwiza batiheba, ibi ni ibintu byiza cyane kuko iyo uri umusaza ukaba ufite ukwitaho, biba ari byiza cyane ntabwo ushobora kwiheba.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru ariko badashaje cyane, bigaragara ko bafite ibintu bari kuganiraho bitewe n'amakuru bari kureba muri telefone. Imbere yabo kandi bafite imiti bigaragara ko bari kureba uburyo bakoresha ibyo bafite.

Biragaragara ko hari abantu benshi, harimo umwana mutoya n'undi mukuru ndetse n'umupapa ubona ko akuze. Bishimye cyane bafite ibintu barimo guseka.

Umuntu ukora kwa muganga, arimo aravugana n'umuntu wabagannye, bigaragara ko arwaye, umukozi wo kwa muganga akaba arimo kumuganiriza neza, kandi ubona ko umukozi wo kwa muganga abyishimiye.

Abagabo babiri bari kugenda ahantu bigaragara ko hari ibiti bafashe agacupa k'amazi y'inyange buri umwe wese aragafashe bambaye umweru hejuru ndetse n'ipantaro igaragara ko ari itiriningi umukara undi nawe yambaye ipantaro yumukara ndetse harimo n'umweru.

Umukecuru ugaragara ko afite imyaka iri hejuru ya mirongo itanu, arimo kwitabwaho na muganga wundi kandi ni byiza ko umuntu ukuze wese agira umuntu umwitaho kuko bimufasha kubahoho mu buzima bwiza ariko ari wenyine ntiyabahoho neza, adafite umufasha.

Umuntu uri gutsindagiza ufite ikibazo cy'uburwayi, aho bari kujyana mu muhanda baganira kuko umwe biragaragara ko afite ikibazo kuko yahawe ibizajya bimufasha kugenda.

Umubyeyi w'umugore bigaragara ko akuze ndetse n'umusaza, aho arimo aramugaburira mu kirahure, aho bigaragara ko mbese abakuru nabo babasha kwitanaho mu buryo bwiza ubana ko bishimishije pe.

Umugore urimo aragaburira umugabo ubona ko akuze, arimo kumusukira umutobe mu kirahure, hari na pome bigaragara ko barimo kumuha indyo yuzuye imufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, bituma agira ubuzima buzira umuze.

Ababyeyi bari kugenda mumuhanda bakuze umwe akuze cyane ariko undi adakuze cyane, ndetse bafite n'abandi babaherekeje mu muhanda utari uwa kaburimbo kandi bishimiye urugendo bari gukora.

Umukecuru ushaje bigaragara ko barimo baramugaburira, umukobwa ndetse n'umuhungu bakiri bato barimo baramugaburira indyo yoroshye mu buryo bworoshye kugira ngo abashe kubihekenya neza nta kimubangamira.

Abantu bagiye batandukanye, bicaye ahantu runaka munsi y'igiti, higanjemo abagore n'abagabo, bigaragara ko bafite ingingo runaka bari kuganiraho, hari n'undi wicaye, hari uwicaye imbere yabo arimo arabaganiriza.

Umugabo bigaragara ko ashaje ariko afite umuntu uri kumwitaho amumenyereza gukora siporo ku kaboko kugira ngo bibe byamufasha imitsi ye ikore neza ku buryo ashobora gukomezanya afite akabaraga mu buzima bwe ntacike intege vuba.

Umusaza uri kwitabwaho n'umuntu ukora kwa muganga, aho ari kumuha utubuto ndetse n'utwo kurya, kugira ubuzima bwe bukomeze bugenze neza, ni byiza kandi ni ngombwa ko umuntu ugeze mu za bukuru agira umwitaho, kugira ubuzima bwe butagenda nabi.

Ahantu handitswe gorobo herifu semina serizi, aho bigaragara ko havugwa ku bijyanye n'uburinganire mu mujyi aho buri muntu abasha kuba yabona ubuvuzi bumukwiye kandi akagira n'icyizere cy'ejo hazaza.

Abantu bamaze kwandura indwara, aho bagomba kumenya uburwayi bafite, bakirinda ko hagira uwo bageraho kugira ngo babe bamwanduza izo ndwara, ibintu ni iby'ingenzi cyane kuba umuntu yakwimenya akirinda ko yakwanduza bagenzi be, akaba yakwiha akato ku giti cye.

Abantu barimo baraganira, aho bigaragara ko bafite ikintu cy'ingenzi bari kuganiraho kandi babyishimiye cyane, aho bashishikajwe n'uburyo bwo bakoresha bita ku mibereho yabo ya buri munsi ndetse n'abo bahereza ubufasha.

Ikirango cy'ikigo runaka, hashushanyijemo ikarita y'igihugu cy'u Rwanda handitswe Rwanda alayedi helifu profeshonizi kanso, igaragara ko ari ikirango cy'ahantu runaka.

Ikimenyetso kigaragara uburyo bakwinda ko abana bavukana ubwandu butera sida, aho ari ingenzi cyane iyo umubyeyi arwaye sida birashoboka cyane ko abyara umwana utarayanduye.

Abantu benshi biragaragara ko bishimiye igikorwa runaka, aho tubona ko ari umunsi barimo kwishimira abagore b'abayobozi mu buzima, mu mikorere y'ubuzima hano iwacu.

Inama yakozwe ivuga ku bushakashatsi bw'ubuzima muri mi bibiri na makumyabiri na kane aho baganiraga ku buryo bwiza bujyanye n'ubuzima ndetse n'imikorere myiza bakoramo kugira abatuye Isi babashe kubona ubuzima buzira umuze biciye mu buvuzi.

Igitabo kigaragaza ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwase ku myororokere ku buryo bigaragara ko ari igitabo cyigishwa muri high schools bizafasha abanyeshuri kugira ibisobanuro byimbitse kuri ubu buryo.

Inyubako nziza nanone ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, kuko bigaragara ko hakorerwa siporo kuko hari tapi kugira ngo ifashe abarwayi kuba baruhuka bo ku giti cyabo.

Icyumba cyo kwa muganga, cyiza gifite uburyo bwiza ndetse gifite ahantu hari igikoni, ndetse ni ahantu heza habereye kuba kwa muganga, kuko kwa muganga ni igame kandi ni itegeko ko haba hafite isuku.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amategura cyangwa se amabati ndetse n'amatafari ya Ruriba, aho ari inzu nziza cyane ikomeye kandi iteretse ya itaje ikorerwamo ubuvuzi. Rero ni byiza ko inzu z'ubuvuzi zose aba ari inzu zikeye.

Icyumba cyo kwa muganga aho batwereka imiryango igiye itandukanye, Kirinike, Ekisireyi rumu kirinikisi. Mbese ni ahantu heza, aho umuntu uhagannye amenya icyerekezo ajyamo, kuko hari udu fureshi tuzamuka n'dutambika. Buri wese uhagiye ntiyayoba.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, bigaragara ko yubatse i Kigali, aho hari amarembo y'icyapa kigaragaza aho baca binjira, ni byiza rero ko buri nyubako zikorerwamo ubuvuzi hagaragara ikirango kibigaragaza ko hari kugira umuntu uhageze umenye ahantu yajya kwitabarira.

Ahantu bigaragara ko havurirwa kuko hari materinete ivura abantu bagiye batandukanye ndetse inyubako ikaba iteye irangi ry'umuhondo, harimo n'umuntu wambaye agapfuka munwa urimo aho ngaho mu gahanda.

Inzu bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bwa bw'imiti farumasi, aho bakorana n'ubwishingizi bugiye butandukanye harimo rama ya araesesibi na misiyu ini ara kandi nyirayo akaba ari Murekatete M. Denisse.

Icyapa kigaragaza kaminuza ya Butare yigisha ibijyanye n'ubuganga, aho ari icyapa kibigaragaza kugira umuntu wese uhajya ntayobe, aho bafite misiyo yo kuvura abantu mu buryo butandukanye ndetse banigisha uburyo ubuvuzi bukorwamo.

Icyumba cyo kwa muganga wakwita laboratoire, aho gikorerwa mu buryo butandukanye mu isuzuma ry'abarwayi, aho bacisha abarwayi mu cyuma iyo barembye, ndetse aha hantu hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye bigezweho bifashisha kugira abarwayi bakomeze bamererwe neza.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ugusuzuma abarwayi bagiye batandukanye, aho hari ibipima ubushyuhe ndetse n'ibindi bice bitandukanye.

Kwa muganga hari aho abarwayi bategereza ba muganga na none hari n'ahandi muganga akorera, aho umwe azakicara agategereza, basoza gukorera undi nawe agakurikiraho agakurikirana aho gutyo mu buryo bwiza nta kabuza.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi bugiye butandukanye, aho ubona ko ari inyubako nini yisanzuye, aho hari porotayi aho imodoka zinjira zinasohokera kandi ifunze neza. Ni byiza rero ko inyubako y'ibitaro iba igaragara neza.

Abakozi bo kwa muganga bambaye impuzashusho yabo, aho ubona ko bameze neza ku mpuzashusho bambaye, bakaba bita ku barwayi mu buryo bugiye butandukanye, kugira bakomeze kugira ubuzima bwiza basigasira abo barwayi kandi babafasha mu buryo bwiza butababangamiye.

Inyubako nanone ishushanyijeho amadarubindi, aho bigaragara ko hakorerwa rinete zigiye zitandukanye bafasha abantu barwaye amaso kubona rinete mu buryo bwiza kandi buboroheye.

Inyubako yanditsweho elicadi, hepfo handitswe africa. Elicadi yanditswe mu mabara y'umweru n'umurongo utambika w'umweru, wanditswemo hagati afrika ikaba yubakishije amabuye. Hasi hari jalide ndetse hari n'imiryango.

Inyubako igaragaza ahantu havurirwa amaso. Biragaragara ni kwa muganga, kuko hari icyapa kigaragaza aho bavurira amaso, ibi byapa rero iyo biri kwa muganga bifasha umurwayi kumenya aho ajya kwivuriza bitamugoye.

Icyumba bigaragara ko kirimo ibitanda bigezweho, iki cyumba rero uko kigaragara ni kwa muganga aho habera ibintu bigiye bitandukanye nko kuvura abarwayi barembye cyane.

Abantu bicaye ahantu bigaragara ko ari mu ishuri, barimo guhugurwa ku bintu bigiye bitandukanye, aho bigaragara ko harimo abagore, n'abagabo, bavanzemo abakecuru, aho ubona ko ari inyubako nziza, ishimishije ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, ni byiza ko abantu bagiye batandukanye bigishwa ku buzima bwabo, kugira ngo babashe kumenya uko bitwara.

Umwana wajyanywe kwa muganga arimo aritabwaho n'umuganga ndetse hari n'uwamutwaje, ni ahantu heza hubatswe neza hagaragara ko ari heza hafite isuku kandi hakaba havurirwa abantu bagiye batandukanye.

Inyubako nziza yo kwa muganga ikorerwamo ubuvuzi aho igaragara ko yubatswe neza cyane, n'amatafari kuko si ishaje kandi iri ahantu heza hari n'ibyatsi bigaragara ko abaza kwivuza babona umwanya wo kwisanzura n'aho bisanzuzuyerira.

Ahantu kwa muganga aho bagaragaza aho abantu baca bajya muri kirinike, aho bigaragara ko harasa neza cyane, hafite isuku ku buryo nta kibazo ku muntu wahinjira rwose cy'umwanda yagira.

Icyumba cyo kwa muganga, aho hari ibitanda abarwayi baryamamo ndetse buri wese akaba afite igitanda cye bigaragara neza ko ari ahantu hafite isuku, aho umurwayi nanone aba yisanzuye nta kimubangamira.

Icyumba cyo kwa muganga, bigaragara, bakoreramo ibintu bigiye bitandukanye, aho bigisha ibijyanye na siporo, ndetse na siporo z'ingirakamaro umuntu yakagombye gukora, ntizimugireho ingaruka.

Ikigo gikorerwamwo ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi, aho bigaragara ko cyubatswe neza, irange ry'umweru kandi kiri n'ahantu heza, uko bigaragara hakorerwa ubushakashatsi bujyanye n'ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga bigaragara ko gikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, aho hari ahantu serumu zihagarara ndetse n'udutanda dutoya cyane n'intebe biragaragara ko bahasuzumira abarwayi cyangwa bakahakira abarwayi.

Umugore uryamye ku gitanda ndetse n'umumama n'umugabo, bigaragara ko bari kumwitaho bareba ikibazo afite, uwo muntu biragaragara ko yaba arwaye.

Abantu bari muri siporo zigiye zitandukanye, aho umwe ari muri siporo y'ukuguru ndetse afite n'undi urimo kumukoresha, aho bifasha ukuguru k'umuntu kugira ngo kugororoke neza, bitume n'amaraso atembera neza mu mubiri, ni ingenzi cyane gukora siporo.

Umu mama uri gukora siporo arimo agorora amaguru ndetse n'ibiganza kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ,ahubwo siporo ifasha umuntu mu kugira ubuzima bwiza buzira umuze kandi n'imitsi ye igakora neza.

Siporo zigiye zitandukanye, aho umuntu ari gukoresha siporo y'amaboko, akurura ikigozi kugira ngo imitsi yo mu kuboko ikore neza cyane, ari kujya akuru agarura, siporo zikaba ziri bufashe mu kiganza ndetse n'ukuboko muri rusange.

Ibisobanuro byerekana imyitozo umuntu yakora kugira, ubwonko bwe bumere neza, aho batwereka uburyo bwo kwicara ndetse no guhagarara, bigufasha kumera neza, aho bisaba kwicara urambuye ukuguru, cyangwa se ugahagarara wemye neza, bituma umera neza.

Ikirangantego kigaragaza uburyo hakorwamo siporo y'urutirigongo ndetse n'izindi siporo zigiye zitandukanye, nko gukora siporo umuntu yiruka ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, zifasha umuntu kuba yamera neza.

Umuntu uryamye hasi, ahantu wagira ni muri jimu kuko ntibigaragara neza, ariko nanone biragaragara ko asa n'uwagize ikibazo, kuko uburyo aryamyemo umugozi ubanza wamufashe.

Ahantu arimo harubakwa ivuriro aho bari gushyiraho ibintu ibikoresho bigiye bitandukanye inyuma kugira ibi bitaro bibe byakuzura kandi byubatswe ahantu heza cyane ubona ko hari isuku.

Umuntu urimo gukoresha siporo kwa muganga, bamunura ukuguru, kugira imitsi y'ukuguru ibe yakora neza, ndetse uwo ni umukozi wo kwa muganga urimo kumufasha, kugira ananure ukuguru, kumere neza.

Umuntu bigaragara ko ari kubabara ku kuboko aho ari kwikandishaho ikintu runaka kugira arebe ko yakoroherwa biragaragara ko uko kuboko kurimo kuramurya arigushaka uburyo yabyoroshya.

Umuntu urimo gukora siporo, aho bigaragara afite ekuteri mu gutwi bikaba bimufasha gukora siporo nta kurambirwa, ari ahantu wenyine areba imbere, arimo gukora siporo zinanura amaboko.

Umuganga urimo gupima umwana, ku gahanga, ari kumwe na mama we, ntiyari kumwe n'umubyeyi, byashoboka ko ari mama we cyangwa atari we, hanyuma hari n'ibikoresho bi bijyiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi.

Umuntu uri kwa muganga, aho afite ikibazo cy'ukugura, aho afite sima kwa muganga bamushyizemo kugira ngo ukuguru kwe kube kwakira. Ni byiza rero iyo amaze kwa muganga igihe bamwitaho, aba afite amahirwe menshi yo gukira, nta zindi ndwara zijemo.

Igikoresho cyo kwa muganga aho gifasha umuntu mu gukora siporo zigiye zitandukanye, kuko iki cyuma gituma umuntu bitamusaba kuba yakora urugendo ahubwo n'aho ngaho akorera kandi siporo ze zikagenda neza.

Ahantu kwa muganga harimo aho bacisha abantu mu cyuma bagira ngo babasuzume uburwayi bafite mu mubiri ndetse n'uburwayi bugiye butandukanye umuntu abayifitemo naha babisuzumira.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga kirambitswe ahantu hari ibara ry'umweru, iki gikoresho kikaba gikoreshwa muganga cyangwa se undi muntu runaka ashaka kumva uko umuntu ari gutera akenshi gipima ku mutima.

Umugore bigaragara ko ari igitsina gore, ni umugore cyangwa umukobwa ari kunywa amazi, yambaye na ekuteri z'umweru, bigaragara ko ari muri siporo, ashaka kugira ngo amazi amufashe muri siporo arimo gukora.

Umwana uri gukora siporo zitandukanye ndetse n'abandi benshi bamishagariye benshi, bari gukora siporo kuko siporo ni ubuzima, ni yo mapamvu rero ubishoboye wese ajya gukora siporo kugira yongere imikorere myiza y'amaraso ye ndetse n'imitsi.

Umuntu barimo gupfuka bigaragara ko afite ikibazo ku kiganza, rero barimo baramupfuka kugira ngo abe yakira, bigaragara ko ari umuntu wari urimo gukina imikino igiye itandukanye.

Ibikoresho byo kwa muganga bishobora kuba byafasha umuntu muri siporo nk'iyo yagize ikibazo hari imiti ashobora kunywa kugira akore neza, ari na bande ashobora kwihambira igihe yagize ikibazo cyo kuvunika ukuguru cyangwa se ukuboko.

Umuntu uri muri siporo arimo gukora siporo yo ku ivi, ariko bigaragara ko kurimo kumurya ,arimo kugerageza gukora siporo agira ngo arebe ko yananura ukuvi kwiwe ,nta mpungenge zishobora kuvamo nyinshi.

Ahantu handitswe rigenerative injegishonizi ini sipotizi medesine, ubu ni uburyo bufasha umuntu gukora siporo ndetse n'uruhare rwayo mu buzima bw'umuntu, ndetse binorohera umuntu kuvurwa igihe arwaye bitewe na siporo zigiye zitandukanye akoresha.

Umuntu ari kwa muganga bigaragara ko yagize ikibazo cy'ukuguru barimo barimo kumusuzuma bareba ikibazo afite kugira ba abone uburyo bamuvura aho yavunitse.

Akamashini kagaragara ko kifashishwa mu gupima umuntu ibintu bitandukanye aho ubona gafite ibyo kabara gashobora kuba gapima sanimetero umuntu afite igihe n'ibindi bitandukanye.

Igikoresho cyambarwa mu kuvi k'umuntu, iyo arimo gukina, cyangwa se afite izindi siporo ari gukora kugira ngo bibe byarinda ukuvi, nanone kikaba cyakoreshwa mu gukingira ukuvi igihe arwaye kugira kube kwagororoka gukire.

Igare ryifashishwa n'abantu babana n'ubumuga rikabafasha kunyura mu kwicaramo kugira bave ahantu bajya ahandi akenshi batabasha kugenda cyangwa se bafite ubundi bumuga bushobora kubabangamira mu kugenda kwabo ikindi na none rigakoreshwa kwa muganga bavana umurwayi bamujyana ahandi adashobora kwigeza.

Umugabo ufashe baro yanditsweho kane kandi yambaye tishati yicyatsi, biragaragara ko avuye muri siporo kandi ateye neza cyane, siporo yakoze kuko siporo ari ingirakamaro.

Abagabo bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abandi ubonamo ko batayambaye bahagaze mu murima ugaragaramo Ibikakarubamba imiti yifashishwamo ibintu byinshi bitandukanye ugariye Ibimera.

Indimu ndetse na tangawizi birambitswe ahantu hari isahani, igikombe, bigaragara ko hakozwemo umutobe ugiye kunyobwa.

Imiti igiye itandukanye, aho bigaragara ko yakozwe mu gikakarubamba, aho bigaragara ko ipakiye mu tuntu tugiye dutandukanye, dushobora kuba twafasha abarwayi kwiyitaho neza.

Amafoto agaragaza ibintu bigiye bitandukanye, ariko higanjemo ibyo kurya imboga, aho bifite ABCDEFGH na J. Aha hose hagiye higanjemo ibiribwa by'imboga, aho muri F ho bigaragara ko nta mboga zirimo kuri C ndetse no kuri B.

Umugabo uri ahantu mu ishyamba ririmo ibimera bigiye bitandukanye, arimo guca ikimera yahisemo cy'umuti gishobora kuba cyamuvura uburwayi. Aho iyi ari imiti myiza ikoreshwa n'abantu basanzwe bayizi.

Icupa ribamo imiti igiye itandukanye aho imiti bigaragara ko ikorwa mu inyanya, mu gikakarubamba, handitsweho arowe beri negita, imiti yifashishwa mu burwayi bugiye butandukanye ikaba ibuvura.

Ku isoko aho bigaragara ko bacuruza imiti igiye itandukanye itari ibinini; imiti mbese ya gakondo aho ifasha abantu gukira indwara zabo; kandi ntizibagireho ingaruka zirenze cyane.

Imiti igiye itandukanye itereretwse ahantu ,aho bigaragara ko iri mu ducupa tw'ubwoko butandukanye ndetse n'amabara yabwo akaba atandukanye: hari umweru n'umuhondo ndetse hari udutoya ndetse n'utunini.

Umuti w'ibimera bafashe baranika barasya bigaragara ko urakoreshwa mu buryo runaka, iyo ufashe ibyatsi ukabyanika bikuma bitewe n'icyatsi icyo ari cyo havamo umuti mwiza uvura indwara zigiye zitandukanye nk'ibicurane, inkorora n'igifu n'ibundi burwayi bwinshi.

Ibimera bijyiye bitandukanye aharimo: ibyatsi, imbuto, ndetse n'atangawizi. Bigaragara ko bifatwa bigasekurwa, bikavanwamo umuti w'imiti igiye itandukanye.

Aya moko y'imiti agiye atandukanye bigaragara ko ari ahantu heza cyane abitswe ahantu heza n'aho yifashishwa muburyo bugiye butandukanye bwo kuvura abarwayi ni byiza ko imiti ibikwa ahantu heza habugenewe kugira ngo yirinde kwangirika.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera buhinzwe ahantu, bigaragara ko ari imwe mu miti ivura indwara zigiye zitandukanye, aho babifata na byo bagakuramo amazi bakaba bayanywa, bigafasha kuvura abantu indwara zitandukanye.

Kimwe mu bimera kigaragara ko kimeze ahantu ku ruzitiro hejuru, aho bigaragara ko nacyo ari icyatsi kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti igiye itandukanye bigaragara ko ikorwa mu gikakarubamba ndetse n'uburoso bigaragara ko bukoreshwa mu buryo bugiye butandukanye aho bigaragara ko igikakarubamba ari umuti nanone wakoreshwaga n'abakera.

Umuti wanditsweho forever bright toothgel, ahari imiti ikorwa zwe murukakarubamba, yifashishwa mu kuvura mu menyo, aho hari umuti ukozwe neza kandi uvura neza.

Umuti wanditsweho Forever Garlic Thyme, aho bigaragara ko ari umuti wizewe ukora ibintu bigiye bitandukanye ku buzima bw'umuntu, aho uba ufite ibintu uvura byinshi.

Utwuma dukikije ahantu mu byatsi turinda ko hagira ikintu cyahaca cyangwa se ubabona ko bifite ibintu bizima birimo birarinda bakunda kwita senyenge, ariko biragaragara ko hamezemo ibyatsi kwizo senyenge.

Igihingwa gihinzwe mu murima kiri kumwe n'ibindi ariko bifite umwanya uhagije, kuko haragaragaramo ubutaka n'ibihingwa ubona ko bihinzwe byisanzuye.

Umuti uri mu gacupa k'umweru, ndetse utereretse ahantu heza bigaragara, uravura indwara zigiye zitandukanye zo kwa muganga, ubona ko mbese ari umuti mwiza wegeranije n'ahantu kandi mu icupa rifite isuku rihagije.

Amacupa ndetse n'amasashi bigaragara ko harimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu bintu bijye bitandukanye, biragaragara ko ari isabune n'utundi ducupa dufite ibintu tubitse.

Ikarito yanditsweho imiti bigaragara ko yaturutse muri Aliyanse ikigo gicuruza imiti igeze itandukanye hirya no hino ku isi umuti ukaba uvura ibintu bike bitandukanye ku burwayi bw'abantu.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye aho bigaragara ko akoreshwa mu buvuzi bugiye butandukanye kuko ubu ibi ibimera byakundaga gukoreshwa kera ubu bikaba byarasimbuwe n'ibinini byo kwa muganga.

Imiti yakoreshwaga kera itandukanye irimo ubwoko bwinshi, aho buno itagikoreshwa cyane nka mbere kuko yari imiti yagoranaga kuyikoresha, usanga mbese ibangamye kurusha iy'iki gihe.

Igiti gikuze cyane bigaragara, gikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye nk'umuti, aho ibyatsi byavurwaga mu buryo bwa kera, aho buno babifata bakabitunganyamo neza, aho iyi ari imiti yari myiza itagira ingaruka nyinshi ku mubiri.

Ikimera gishishe, gihinzwe mu ifumbire ryinshi, aho nacyo ari umuti ugiye utandukanye, aho bawu bagifata bakagikamuramo amazi, cyangwa ayo mazi rero akaba ari umuti w'ingirakamaro.